Mu murima bateyemo ibigori, harimo abagabo babiri bambaye ibikoresho byabugenewe, bakaba bari guteramo umuti kugira ngo bitazarwara nkongwa ndetse n'izindi ndwara zituma byuma bikaba byarumba ndetse harimo n'abandi na bo bari kugenda babafasha.

Umubyeyi w'umumama uhagaze iruhande rw'umugezi aho bororera amafi hakaba hari inzu abarinda amafi babamo, ndetse n'urutoki rumeze neza rurya ibitoki kandi rutoshye.

Ku mugezi aho bagenda bacukura ibirombe binini kugira ngo bahororere amafi ndetse babone ko bazajya bayagaburira kugira ngo babashe kuyakuramo, hubatse utuzu babamo kugira ngo barinde umutungo wabo hatagira abantu bazaza kuyiba.

Ku mugezi aho bagomeye amazi menshi, bakaba barashyizemo udufi duto, bakashyiramo ibyo amafi arya, hari umugabo uhahagaze akaba akuyemo ifi nini yo kurya.

Ni abagabo bane bari mu mugezi munini, bakaba bafite inshundura mu ntoki ndetse bagiye kuroba amafi akaba umwe muri bo afite indobo y'umukara, barimo gushyiramo amafi bamaze kuroba.

Mu murima aho bahinze icyayi hari umusore ndetse n'umumama bakaba bahetse ibitebo bifashisha mu gusarura kugira ngo batabitereka hasi bikaba byakwangiza imyaka.

Ni abagabo babiri bari mu murima umwe afite isuka undi afite imbuto agiye gutera, ari gucukura umwobo kugira ngo umwe atere igiti, kugira ngo bazabashe kuba bakuramo amafaranga mu gihe cyabaye kinini.

Ni inka nziza y'umukara n'umweru, tukaba tuyikuraho amafaranga, ikaduha icyo kunywa ndetse n'icyo kurya, imbere yayo hakaba hahagaze umugabo uje kuyireba ngo ayigure ajye kuyibaga.

Ibiraro byiza byubatse neza, harimo inkoko nyinshi, bakaba bakuramo amafaranga menshi kuko yaziguze barazigurisha zigatera amagi ndetse bakaba bayateka cyangwa bakayaranguza n'abandi bacuruzi.

Umurima urimo ibigori byinshi kandi bimeze neza ,iyo byeze bikaba bitanga umusaruro ushimishije, kuko barabigurisha, bakabishesha, bagakuramo kawunga, umuceri ndetse n'igikoma.

Mu murima hateye igiti cy'umwumbati, kikaba cyera imyumbati iribwa ndetse amababi yayo bakaba bayaryamo isombe kandi bakaba bavanamo n'ubugari ndetse bakagurisha kugira ngo babone amafaranga.

Mu murima bahinzemo inanasi. Harimo izeze, ndetse n'izitarera, bakaba bazikoramo, imitobe, amaji, ndetse zikaba zifite n'intungamubiri, zifasha umubiri kumererwa neza.

Igiti cy'umwembe, hariho imyembe myinshi, kandi bakaba bayirya mu gihe yeze, ikaba ifite intungamubiri mu mubiri w'umuntu, bakaba bayigurisha iyo yeze kugira ngo abandi batayihinga babone izo mbuto.

Mu murima uteyemo imbuto harimo abana batatu bari kuvomerera kugira ngo zimere neza, bakaba bafite rozwari zabugenewe bakaba bari kujya kuvoma aho bagomeye amazi, ndetse inyuma yabo hari intoki ndetse n'ibiti.

Ubworozi bw'inkoko bumeze neza aho bateguye ibikoresho zizajya ziriramo ndetse zikanyweramo amazi, ibyo bikabafasha ko zagira umusaruro mwiza, zikaba zatera n'amagi abiri ku munsi.

Abagabo babiri bishyize hamwe bakora umushinga w'ubworozi bw'inkoko, bakaba bari kutwereka uko zingana, batubwira n'akamaro ko korora inkoko, ko zitanga umusaruro ushimishije, harimo ifumbire, amagi ndetse bakaba bazigurisha bagakuramo n' amafaranga menshi.

Ubworozi bw'ingurube, bwinshi ndetse bakaba bakuramo amafaranga menshi, aturutse mu kubaga ingurube, bakarya inyama ndetse bagakuramo n' amavuta meza kandi zikaba zibaha n'ifumbire.

Umusore wumuhungu yambaye imyenda y'ubururu ndetse na bote, akaba aje kureba uko inkoko zirya, ndetse zikaba zateye n'amagi menshi.

Ubushyo bw'ihene bwinshi buteraniye bamwe mu gisambu, hakaba hari abantu baje kuzireba ndetse harimo n'umushumba uziragiye, baje kubereka aho ziri, hakaba iruhande rwaho hari ishyamba rirerire kandi ryinshi.

Itsinda ry'ababyeyi rya bateraniye hamwe, imbere yabo hateretse amabase atatu arimo ibishyimbo, bakaba bafite amasahane mu ntoki, bagenda bashyiraho udushyimbo duke duke kugira ngo babashe gukuramo injonjori, babone ibishyimbo byiza.

Iyi nka nziza iri mu kiraro imbere hakaba hahagaze umushumba uyiragira akayimenyera icyo kunywa neza n'icyo kurya akaba azanye umuntu ushinzwe kwita ku matungo ngo arebe indwara yaba ifite.

Ubwoko bw'inyamaswa ziba mu Rwanda ziganjemo: impara, imparage ndetse zikaba zikurura abaturuka mu mahanga baje kureba uko zimeze.